Umurima munini uhinze ho imboga zizwi ku izina ry'amashu hagiye havanzemo n'ibigori bikeya, harimo umugore uhagaze uhetse ipompo mu mugongo urimo kugenda afuhira umuti wica udukoko ndetse n'udusimba kw'ayo mashu.

Umugore uhagaze mu murima, wambaye igitenge n'ishati itukura, ahetse ipope arimo aratera imiti mu bigori yica udusimba twataka ibihingwa.

Umurima munini ukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi hahinzeho imyaka, harimo umugabo uhagaze uhetse ipompe iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, arimo gutera umuti mu bihingwa bye.

Ubuso bunini, bukasemo imirima yegeranye, hahinmbyeho igihingwa cy'umuceri, hahagazemo abagabo babiri bahetse amapompe mu migongo, barimo gutera imiti y'icadukoko muri ibyo bihingwa.

Abagabo bane bahagaze ku nkengero z'icyuzi, undi ari mu cyuzi, arimo araroba. Hejuru hateretse indobo bari butwaremo amafi, hirya yayo hari inyubako imwe.

Abagabo benshi bari mu cyuzi cy'amafi, bafashe icyitwa inshundura yifashishwa mu kuroba amafi, barimo baroba, bagenda bayasunikira ahantu hamwe kugira ngo aze kujya ku iyo nshundura bayakuremo.

Igishanga kinini cyegereye ishyamba ririho ibiti byinshi, hacukuye ikizega kinini cyororerwamo amafi, hejuru iruhande rwacyo ahagaze abantu batandatu.

Umugabo usutaraye, afite amafi abiri mu biganza byombi, ari guseka, inyuma ye hari ahantu hari gukorerwa ibikorwa byubwubatsi.

Ibizenga bibiri byegeranye byororerwamo amafi kimwe kirubakiye ikindi ntabwo cyubakiye, inyuma yaho hazengurutswe n'ibyatsi kandi hari n'ishyamba rifite ibiti byinshi kandi binini.

Icyuzi kinini kirimo amazi menshi, cyoroherwamo amafi. Hejuru yaho ahagaze umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi ndetse uboshye imisatsi, ateruye ibasi irimo ibiryo, afite n'agasahani gatukura, arimo kuyagaburira.

Ibizenga bibiri byegeranye bizwiho kororerwamo amafi, inyuma yayo ikikijwe n'ibyatsi birebire kandi byinshi, hirya y'aho hari urutoki.

Umugabo uhagaze wambaye ishati irimo utuzu, afashe mu kaboko ke k'iburyo, igikoresho kinini, gifitemo utwenge, harimo ifi nini amaze kuroba, izwiho kugira intungamubiri.

Umugabo wasamye wambaye umupira w'umweru utunze ibiganza bye byombi ku mafi menshi agerekeranyije yatangajwe na yo, inyuma ya yo hariho ibiti byinshi bigiye binyuranye.

Igihingwa ngandura bukungu kizwi ku izina ry'ikawa gifite akamaro kagiye gatandukanye, gifite amashami afite imiteja itarera neza.

Umusozi munini hariho umurima yegereye ishyamba ririho ibiti byinshi, hahinzeho igihingwa kizwi ku izina ryikawa, hahagazemo umugore urimo kuzisarura.

Amoko agiye atandukanye nk'ibihingwa ngandurabukungu, bizwiho kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse n'abaturage, harimo ikawa, ibisheke ndetse n'icyayi cy'u Rwanda n'ibindi.

Ikawa nyinshi zisutse kuri shitingi, harimo abagabo babiri barimo kugenda bazishyira ku i ibasi itukura kugirango bazipime bamenye umusaruro wavuyemo uko ungana.

Umugore uhagaze witeze igitambaro mu mutwe yikoreye indobo y'icyatsi arimo arasoroma ikawa zeze neza zitukuye, zihishije, agenda azishyira muri iyo ndobo.

Ubuso bunini buherereye mu kibaya hahinzeho imbuto y'umuceri utarera neza, harimo umugore uri kugenda azengurukamo areba ko umuceri we weze.

Igihingwa kizwi ku izina ry'ikawa, gifite amababi atoshye cyane, kikagira n'ishami ririho ikawa zeze neza cyane kandi zitukuye zihishije.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku mu mutwe harimo utudomo tw'umweru, ahagaze mu murima w'ikawa arimo gusaruramo izigiye zeze asigamo iziteze.

Umurima munini uhinzeho igihingwa cyikawa, harimo umugore wambaye ingofero n'umupira w'amaboko maremare, ku mugongo we ahetsemo agatebo ari kugenda asaruriramo icyo cyayi.

Ubuso bunini bugiye bugabanyijemo imirima mito igiye itandukanye, harimo abaturage barimo kubagara bakuramo ibyatsi byonera ibyo bihingwa ntibikure neza bikeraho umusaruro muke.

Etajeri iteretseho amacupa agiye atandukanye, harimo amaremare n'amagufi, harimo imiti isukika yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, mu kwica udusimba twibasira amatungo uruhu.

Etageri nini yubakishije ibiti, isize irangi ry'umweru, harimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zibasira amatungo, harimo n'ipombo nini y'umuhondo ifite umupfundikizizo w'ubururu, yifashishwa mu gutera umuti wica amasazi ku ruhu rw'amatungo.

Imiti y'amoko agiye atandukanye. Iri mu bwoko bw'ifu. Igiye ipakiye mu mashashi agiye atandukanye. Yifashishwa mu kugaburira amatungo no kuyongerera umusaruro wayo wa buri munsi.

Amakarito arimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo mu kuvura indwara zimwe na zimwe agiye agerekeranyije ari no mu mabara agiye atandukanye.

Udukoresho tuzwi ku izina ry'uturindantoki tw'umweru turi mu gakarito tuzwiho kwifashishwa n'abaganga ndetse n'abavuzi b'amatungo bagira ngo batandura indwara zigiye zitandukanye.

Igikoresho cy'icyuma gitukura, cyifashishwa n'abavuzi bamatungo, bari kwambika iherena amatungo runaka kugira ngo bayatandukan n'ayandi bagendeye ku mibare.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, umwe uri mu ishashi w'ifu, undi iri mu gacupa usukika, inyuma yayo hari etajeri irimo indi miti myinshi igiye itandukanye.

Imiti itandukanye isukika iri mu macupa agiye atandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo mu kuvura ndetse no kurinda indwara zigiye zitandukanye.

Umuti uri mu bwoko bw'ibisukika ufungiye mu gacupa gatukura, upfundikishije agafuniko k'umweru uzwiho kuvura inzoka ku matungo agiye atandukanye harimo: inka, ihene, ingurube n'intama.

Icyumba kirimo imiti y'amoko agiye atandukanye, igiye ifungiye mu makarito, harimo ibinini ndetse n'indi iterwa mu nshinge, harimo n'ipamba yifashishwa mu guhanagura ahantu runaka.

Ishashi nini irimo amahena menshi ari mu ibara ry'umuhondo ariho imibare yandikishije ibara ry'umukara, imbere yayo hari igikoresho gitukura kizwi ku izina ry'ipensi yifashishwa mu gutera ayo maherena mu gutwi kw'itungo.

Umuti uvura amatungo yo mu gacupa gato k'umweru gapfundikishije umupfundikizo utukura, gateretse hasi ku makaro, iruhande rwayo hari akandi gakarito nako karimo uwo muti wifashishwa mu kuvura inzoka z'amatungo agiye atandukanyekanye.

Imiti y'amatungo igiye itandukanye iri mu bwoko bw'ifu ipakiye mu mashashi ari mu mabara agiye atandukanye, izwiho kongerera intungamubiri amatungo.

Etajeri iteretseho amacupa y'imiti y'amatungo hometseho ibipapuro, iriho inka, ihene, intama n'ingurube, munsi yayo hariho andi macupa arambitse na yo arimo imiti.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, ipakiye mu buryo bugiye bunyuranye, imwe iri mu bitoryi, indi iri mu macupa isa nk'amazi, indi iri mu gikarito gishushanyijeho inka.

Abagore babiri bikenye ibitenge, bateze n'ibitambaro mu mutwe, bafite amasuka ku rutugu, barimo kugenda mu kayira nyabagendwa kari mu ishyamba.

Ikiraro kirimo inka ebyiri gisakarishije amabati, cyubakishije ibiti gifite uburiro imbere yayo hari umugabo wambaye ishati ya karokaro y'ipantaro ya kake arimo arazigaburira.

Ihumbikiro ririmo ibiti bigiye biri mu bihoho, hejuru hashakarishijeho igitambaro, gitoboye, kemerera akazuba gucamo, hahagaze umugabo wambaye umupira w'ubururu, wambaye agapfukamunwa, uteruye igihoho, kirimo urubuto rwa avoka.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu arimo arasarura ibigori byeze, inyuma ye hari undi mugabo wambaye ipantaro ya kake n'umupira urimo imirongo na we ari kumufasha gusarura.

aAbagore batatu begeranye, bateze ibitambaro mu mutwe, bakenyeye ibitenge, bari kumwe numugabo umwe wambaye ingofero, bari mu murima w'umuceri, utarera.

Ubuso bunini buriho urwuri rwiganjemo ibyatsi byinshi kandi birebire harimo umugabo ufite inkoni uragiyeho inka ze ziri kurisha.

Umurima uri ku buso bunini hahinzeho imyaka mu buryo bugezweho bwo ku mirongo, havanzemo n'ibiti bivangwa n'imyaka ari byo bita gereveriyaa cyangwa ibishurushuru.

Umugabo ubyibushye wambaye ishati y'ikoboyi ipantaro ya kake, arikumwe n'umugore wambaye amarinete, n'ikanzu itukura, bahagaze ku biraro birimo inka, inyuma yabo.

Umugore wambaye ingofero n'igitenge, atwaye isuka ku rutugu ndetse n'agafuka mu kaboko k'ibumoso, arimo kugenda mu muririma uzengurutswe n'imiyenzi.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, ipantaro y'ikoboye, wambaye n'isaha mu kuboko k'ibumoso arimo aratera igiti umurima urimo imyaka.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, umupira w'icyatsi, ipantaro y'ikoboyi arapfukamye mu murima arimo gutera igiti, iruhande rwe hari abandi bahagaze bafite amasuka.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro, arikumwe n'umugore wambaye umupira w'ubururu, bose bafite amasuka ku rutugu, bahagaze mu murima urimo urutoki, imyumbati ndetse n'ibigori, bagiye guhinga.

Umurima munini uri ku buso bunini cyane hahinzeho ibihingwa bigiye bitandukanye, hashizemo n'ipoto rijyana amashanyarazi hirya no hino, hegereye agahanda gato k'igitaka gafasha abahinzi kugemura umusaruro wabo.

Umurima munini uhinzeho igihingwa kizwi ku izina ry'ibigori byeze bigeze igihe cy'isarurwa mu muririma hagiye harimo ibyatsi byagiye bikuriramo.

Ikibaya kinini gikorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi, hashizemo ipoto icaho insinga zijyana amashanyarazi hirya no hino, iruhande rwayo hari umuhanda w'igitaka ukoze neza.

Igihingwa kiri mu murima kizwi ku izina ry'imyumbati gifite amababi yagiye yangirika bigaragaza ko gifite uburwayi bugiye butandukanye bwakibasiriye.

Ibirayi bitatu byo kuribwa byasaruwe, bikanozwa, bigatunganywa neza kugira ngo bakureho ibitaka biba babisaruranye mu gihe cyo kubisarura.

Umurima munini urimo igihingwa kizwi ku izina ry'imyumbati, harimo ibyatsi byinshi bizwi ku izina ry'ibishogoshogo, byasigayemo hasarurwa ibishyimbo.

Umurima munini uhinzeho ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo insina zigiye zifite ibitoki n'izindi zitabifite, harimo n'ikawa zitarera neza.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye bigiye bivangavanze nibwo bigituruka mu butaka ari byo ibigori ndetse n'ibishyimbo bifasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bibahereze intungamubiri.

Ikibaya kinini gikorerwaho ubuhinzi, harimo abantu bagiye batandukanye, barimo guhingisha amasuka, iruhande rwabo haparitse imodoka nini nayo yifashishwa mu buhinzi.

Umurima ufite ubuso bunini, uhinzeho igihingwa cy'ibigori, byeze neza byatangiye kuma amababi, andi aracyari mabisi, harimo ibyatsi bigiye bitandukanye.

Umurima munini, wegereye ikiyaga kinini, izuba riri kumurika, ku nkengero zacyo hateyeho ibiti birebire ndetse n'ibigufi bigiye bigikikije.

Agahanda gato k'igitaka gakoze neza kari munsi yishyamba rifite ibiti binini kandi byinshi bizwi ku izina ry'inturusu karimo abagenzi benshi bari kugenda n'amaguru.

Umusozi ufite ubuso bunini kandi muremure, uteyeho ibiti byinshi by'amoko agiye atandukanye kandi bipfutse. Hejuru yaho hariho ibihu.

Ishyamba rinini, ririmo ibiti byinshi, bifite amashami apfukiranye no hejuru, mo hagati harimo umuhanda munini nyabagendwa, urimo imodoka izwi ku izina rya fuso, itwara imizigo.

Ishyamba rinini ririmo ibiti byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga umwuka mwiza duhumeka kandi ikanatanga inkwi ndetse n'amakara yifashishwa mu bikorwa byo guteka.

Umurima munini wegereye urutoki hahinzeho, ibihingwa ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo ibigori, uruyuzi rweraho amadegede, isombe ndetse n'igiti kinini cya voka.

Umusozi muremure, ufite akayira nyabagendwa, kagiye karimo amabuye n'ibitare, harimo abantu babiri bari kuzamuka kandi hagiye harimo ibiti bitari byinshi.

Abantu batatu harimo babiri bafite uruhu rwera bambaye ingofero, barimo kuzamuka ku kayira kari ku musozi uriho ishyamba ririmo ibiti byinshi bigiye bitandukanye baje kuhasura.

Abasirikare batatu ndetse n'abadaso babiri, bateraniye hamwe mu ishyamba bafite inkoni mu maboko yabo, barimo bagenzura umutekano w'iryo shyamba.

Ubuso bunini buriho ishyamba ririmo ibiti bifite amashami menshi kandi yapfukiranye abuditse, harimo guturukaho igihu cyinshi cy'umweru.

Umurima munini ukorerwaho ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi, urimo imyaka ndetse n'amazi menshi yakoze ikizenga hazwi nko mu gishanga.

Ishyamba rinini ririmo ibiti bitandukanye byifashishwa mu gutanga inkwi ndetse n'amakara ducanisha rikaba ridufasha kandi gutanga umwuka mwiza duhumeka.

Ishyamba riri ku kumusozi ririmo ibiti birebire mo hagati harimo inyubako imwe yonyine; munsi y'uwo musozi hariho ikiyaga kinini cyane.

Umusozi muremure higanjeho ibiti birebire ,n'ibigufi bigiye bivangavanze, biri ku buso bunini cyane .Haturukamo umugezi uvubura amazi menshi.

Ishyamba rinini riri ku buso bunini, hagiye harimo ibiti by'amoko atandukanye kandi byinshi. Ikirere izuba riri kuva harabona, ariko amashami y'ibyo biti agiye apfutse ku buryo utabasha kubonamo imbere.

Igiti cyera imbuto, zizwi ku izina ry'amapapayi, kigira intungamubiri zigiye zitandukanye, hariho amapapayi atarera neza y'icyatsi kibisi ndetse n'amababi atoshy.

Igihingwa kizwi ku izina ry'umwembe giteye mu buryo bwa kijyambere harimo intera ingana hagati y'igiti kimwe n'ikindi kandi biteye ku murongo bifite imiteja myinshi cyane.

Abantu batanu harimo abagabo bane n'umugore umwe, bafite udutebo twa palasitike, barimo gusaruriramo imbuto bahinze mu murima.

Umurima munini uri ku musozi hahagazemo abagabo babiri, hahinzemo imbuto zizwi ku izina ry'amatunda ndetse rirahembeye n'ibiti, barimo kuyakorera kugira ngo azere neza.

Igiti kera imbuto kizwi ku izina ry'ipapayi, kiriho amapapayi menshi atarera neza azwiho kugira intungamubiri yifashishwa cyane mu kugaburira abana ndetse n'abantu bakuru.

Imbuto harimo imyembe, amarongi ndetse n'amatunda bigiye bitondekanyije mu buryo bwiza, imbere yayo hari umugore wambaye umupira urimo uturongo tw'imikara, uteruye inanasi ebyiri, mu maboko yombi.

Umurima munini uhinzeho imboga mu buryo bwa kijyambere, hagiye harimo intera itandukanye kandi ingana, harimo amatiyo asakazamo amazi mu buryo bwo kuvomerera.

Umugabo uhagaze mu murima we, wambaye ikote z'umukara, ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ingofero, afashe umupira urimo kuvamo amazi, agenda avomerera ibihingwa bye bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ndetse n'umugabo we bari mu murima hagati bafite amatiyo acamo amazi bari kugenda bayakwirakwiza bavomerera imyaka yabo, inyuma y'umurima hazengurutse imigano.

Umugore wambaye ibitenge, ukenyeye igitambaro ndetse uteze igitambaro mu mutwe, afite ipompo y'umuhondo, arimo aravomerera imyaka ye ahagazemo.

Umurima munini uhinnzemo imyaka harimo abantu batatu barimo kuyivomerera bagenda bayisukaho amazi, bamwe bari kwifashisha igikoresho kizwi ku izina rya rozwari, undi ari kwifashisha umupira munini uvana amazi ku isoko uyazana mu murima.

Umurima uhinzemo igihingwa kizwi ku izina ry'inyanya, hejuru yazo hagiye hanaganitseho uducupa turimo amazi, dufite n'imipfundikizo yagiye itobaguyeho gatoya, kugira ngo amazi ajye amanukiraho gake gake. Hahagazemo umugabo uri kugenda abireba.

Umurima uhinzeho imboga mu buryo bugezweho bwa kijyambere, hashizemo amatiyo manini, azana amazi, abifasha kubivomerera ibyo bihingwa.

Umurima munini uhinzemo inyanya zatangiye kuzana ururabo, hahagazemo umugore wambaye ikanzu ufashe umupira mu ntoki uri kuzana amazi agenda avomerera izo nyanya.

Umugore ufite umusatsi uboshye wambaye ishapule mu ijosi, ahagaze mu murima munini uhinzemo imboga zizwi ku izina ry'amashu, afite rozwari mu ntoki arimo kugenda avomerera.

Umugabo uri mu murima w'ibihingwa, akaba ari kuvomerera yifashishije uburyo bugezweho mu kuvomerera. Hirya hakaba hari umusozi uriho ishyamba ndetse n'ikirere kiriho igihu.

Umurima munini uhinzeho amashu harimo umugabo ufite umupira mu ntoki wifashishwa mu kuvomerera arimo aranyonga akagare kamufasha kuzamura amazi kayazana mu murima we.

Umuyoboro munini urimo amazi menshi. Uri hagati y'imirima ibiri, igiye ikasemo ama pariseri menshi ahinzeho igihingwa cy'umuceri. Ayo mazi yifashishwa mu kuvomerera ibyo bihingwa.

Umurima w'ibigori mo hagati harimo ikizenga, iruhande rwacyo hahagaze umugabo ufite moteri ndetse n'itiyo ushaka gukura amazi muri icyo kizenga kugira ngo ayifashishe mu bindi bikorwa.

Umusozi muremure uriho abantu batandukanye, bafite amatiyo, bari kugenda basakaza amazi, bavomerera, bifashishije imirasire y'izuba, iri kumurika ku gikoresho bafite, cyitwa pano kugira ngo izamure amazi hasi mu kibaya, iyazamura ku musozi.

Umusozi munini kandi muremure ukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi, haciyeho amaterasi y'indinganire, afasha mu kurinda ndetse no kurwanya isuri.

Imisozi igiye itandukanye itegeye hagiye hariho ibiti bigiye bitandukanye, hariho n'dutoki ndetse n'inzu n'ibiti birebire harimo n'icy'avoka.

Ikiyaga kinini kirimo amazi menshi kigenda gica hagati y'imisozi igiye itandukanye ikorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi ndetse indi iteyeho amashyamba.

Umusozi munini utuweho, ukanakorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi bigiye bitandukanye, ugiye ukasemo ibice, hahinzeho ibiribwa bigiye bitandukanye, havanzemo n'ibiti birinda isuri.

Icyumba kinini cyororewemo inkoko ziri mu bwoko bumwe, zizwi ku izina rya Saso, imbere harimo igikoresho zinyweramo amazi kinaganitse, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Urupango runini rwubakishije ibyuma, rurimo abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse na boti z'umweru, harimo n'umugore ufite igitambaro mu mutwe cy'Abisilamu ndetse wambaye itaburiya na ga ndende mu kuboko kumwe, harimo inka nyinshi zifite amahembe maremare z'Inyambo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru arimo aregereza ubwatsi inka ze zifite amaherena zorowe mu buryo bwa kijyambere zororewe mu biraro byubakiye n'ibyuma ndetse bisakaye.

Nyinshi ziteraniye hamwe zizitiye mu rupango rwubakishije ibyuma, zifite amahembe maremare zizwi ku izina ry'inyambo, inyuma yayo hari abavuzi b'amatungo, bamwe bambaye amataburiya y'umweru abandi amasarubeti y'ubururu.

Inka nkuru ebyiri z'imbyeyi, zifite ibara ry'ibihogo, zambaye amaherena y'ubururu. Ziri mu rwuri, zirimo kuririshanya nizo njyana zazo.

Inka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, iziritse ku giti izirikishije ikamba, umushumba wayo ayiri iruhande arimo arayihera amazi ku ibasi.

Ikibuti kinini kirimo isasizo ry'ibarizo haryamyemo ingurube nini y'umweru irimo konsa ibyana byayo biri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru bikiri bitoya.

Ikibuti k'ihene cya kijyambere cyubakishije imbaho zifatanye. Harimo ihene ziri mu mabara agiye atandukanye ariko iziganjemo nyinshi zifite ibara ry'umweru.

Inyubako nini irimo inkoko nyinshi cyane, zorowe mu buryo bwa kijyambere, harimo izidafite ubwoya ku ijosi, zizwi ku izina ry'imirangi, zigiye ziri mu mabara atandukanye, hagiye hateretsemo uburiro ziriramo.

Inka z'inyana zifite ibara rimwe zambaye amaherena y'umuhondo ku gutwi kwayo kw'iburyo ziri mu kayira zirimo ziragenda.

Ahantu hanini hazitijwe ibyuma bitukura, harimo inka nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'abagabo bafite ibyansi bikoze mu cyuma, barimo bakama amata.

Inka nini iri mu kiraro, cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho ishashije ibyatsi byinshi, imbere yayo haryamye inyana y'umukara n'umweru, izwi ku izina ry'ikibamba, irimo kuyirigata.

Inka nini cyane kandi nyinshi zifite urwakanakana ndetse n'ipfupfu rinini zirimo kuririsha mu rwuri rurimo ibyatsi byinshi, inyuma yarwo hari ibiti bigiye bitandukanye.

Inka nini y'ikibamba ifite amabara y'umukara n'umweru ndetse ikagira icebe rinini, iri mu kiraro cyubakishijwe imbaho ndetse n'ibiti ndetse ku itaka hasa nk'ahapavomye.

Ingurube ntoya ifite ibara ry'umweru yambaye iherena ku gutwi kwayo kw'iburyo ry'umuhondo, ikibuti cyayo hasasijemo ibarizo iri mu buririro iri kurya.

Ubworozi bw'ihene burimo ihene z'amoko agiye atandukanye, zifite amabara agiye atandukanye. Zambaye amaherena ku matwi yazo y'ibumoso.

Ikiraro kinini kirimo inka nyinshi zigiye ziri ku murongo, imbere yazo, hari uburiro burimo ubwatsi ziri kurya, hahagaze imbere umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'itaburiya y'umweru.

Umurima munini urambitseho ibigori bitonowe byasaruwe aho ngaho, uzengurutswe n'abantu batandukanye, baje kureba umusaruro wavuye k'uwo murima.

Umuntu ufashe ibishyimbo mu ntoki, arimo agenda atoranyamo ibyapfuye n'ibyangiritse kugira ngo asigarane ibizima, azifashisha ari kubiteka ngo abirye cyangwa se akuramo imbuto.

Umuntu uhagaze mu murima munini uhingiye, arimo arateraho imbuto mu buryo bugezweho bwa kijyambere, bwo gutera ku mirongo kugira ngo umusaruro wiyongere.

Umugabo upfukamye wambaye isarubeti y'ubururu, afite igikoresho cyifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, barimo gukingira amatungo indwara zigiye zitandukanye, imbere ye hari ikindi gikoresho cy'umweru akibikamo.

Umugabo wambaye uturindantoki tw'umweru, ateruye inyama nini itukura y'umwijima, arimo arareba ko itungo yabaze ryari rifite uburwayi mbere yuko arigaburira abantu.

Inka nini iryamye hasi hari abagabo bayifashe hari n'undi uhagaze wambaye igisarubeti cy'umutuku, bote z'umukara, ari kuyidoda ku kintu cyayo cy'iburyo aho ifite ikibazo.

Inka nini iri mu rupango nyuma yayo hari umusore wambaye bote z'umukara isarubetti y'ubururu ndetse n'ingofero. Ukuboko kwe kw'ibumoso kwambayemo ga ndende itukura, ari gukora mu nda yayo ya mase.

Inka zifite amahembe maremare, zizwi ku izina ry'inyambo, ziri mu rupangu rwubakishije ibyuma, ruzizitira kugira ngo zitagenda. Hari abaveterineri baziri inyuma, bambaye amataburiya y'umweru, bari kuzikoreraho ibikorwa runaka.

Umusore n'inkumi bari mu kibuti cy'inkoko, bambaye amasarubeti y'icyatsi, bafashe inkoko barimo gusuzuma ikibazo ifite, muri icyo kibuti harimo inkoko nyinshi cyane ziri kurya.

Abavuzi b'amatungo bateraniye hamwe bambaye amatiburiya y'umweru, uturindantoki tw'ubururu, imbere yabo hari ameza manini arambitseho itungo bari kudoda bifashishije ibikoresho bafite.

Inka nini iri mu rupango ukoresheje ibyuma, inyuma yayo hari umugore witandiye igitambaro cy'umukara ndetse wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ga nini itukura mu kaboko ke k'ibumoso, arimo gukora mu nda y'amase y'inka kugirango yumve ko ihaka.

Inka enye z'utumasa duto zifite ibara rimwe rizwi ku izina ry'isine, zirimo zirasohoka mu rupango ruzitije ibiti, zijya gushaka ubwatsi bwo kurisha.

Mu cyumba kinini gikorerwamo ibikorwa by'ubworozi harimo udushwi duto tugiye turi ku isaso mo imbere harimo igikoresho zinyweraho amazi ndetse n'icyo ziraho, n'imbabura izicanira kugira ngo ziticwa n'ubukonje. Zigiye zizengurutswe n'igikoresho gikozwe mu biti.

Inyamaswa ebyiri nini, zizwi ku izina ryibitera, zicaye mu murima urimo ibyatsi byinshi kandi birebire, zagiye gushakisha icyo kurya.

Ishyamba rinini ririmo ibyatsi birebire, harimo inyamaswa z'amoko agiye atandukanye, harimo inzovu, imparage izwi ku izina ry'agasumbashyamba ndetse n'izindi.

Inyamaswa ebyiri zizi ku izina ry'ingurube z'ishyamba cyangwa se isatura, ziteranye imigongo, ziri ahantu hitaruye, inyuma yazo hari ishyamba.

Inyamaswa ebyiri nini cyane, zibera mu ishyamba, zizwiho kwiruka cyane, zizwi ku izina ry'isatura cyangwa se ingurube z'ishyamba, zirimo zigenda mu byatsi birebire.

Inyamanswa imwe izwi ku izina ry'impyisi, irimo iragenda yonyine ahantu hitaruye, hatari ibyatsi. Iruhande rwaho hari ibyatsi birebire cyane.

Inyamaswa eshatu zizwi ku izina ry'ibishuhe. Ziri mu bwoko bw'inyoni, zizwiho gukunda amazi cyane. Ziyahagaze hejuru yayo, mu mazi menshi ku kiyaga. Imwe irambitseho agatuza izindi ebyiri ziyahagazemo.

Inyamaswa izwi ku izina ry'ihene y'ishyamba cyangwa se isha, ihagaze yitegeye irimo kureba imisozi, inyuma yayo hakikijwe n'ibiti byinshi bipfukiranye.

Inyamaswa nini yibera mu ishyamba izwi ku izina ry'intare cyangwa se umwami w'ishyamba iryamye ku giti izwiho guhiga izindi nyamaswa ntoya ikazica akaba arizo ziyitunga.

Inyamaswa nini zo mu ishyamba, harimo ingwe, impara n'imparage, intare, inzovu ndetse n'ingurube y'ishyamba izwi ku izina ry'isatura ndetse izuba ririmo kuva, mu kirere harimo hatamba ibisiga.

inyamaswa nini iba mu ishyamba, izwi ku izina ry'ingwe, irimo iragenda ahantu mu byatsi byinshi kandi birebire, irimo igenda ireba hirya no hino ishaka icyo kurya.

Inzovu iri muri pariki

Urwuri runini, rurimo ibyatsi birebire, harimo inka ziri kurisha ndetse n'izindi nyamaswa z'agasozi, inyuma yazo hari ishyamba ry'ibiti byinshi bipfutse.

Inyamaswa nini ifite ibyoya byinshi iri mu bwoko bw'imbwa, izwi ku izina ry'idubu yasamye, ifite amenyo maremare ndetse n'amagufi, ihagaze ku butaka.